Umugore n'umwana bari ku iriba bari kuvoma bakoresheje icyuma cyabugenewe kikompa amazi, abandi bari kureba ukuntu bikorwa.

Abantu bicaye hamwe bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari abandi bicaye bari kubaha ibiganiro, umwe muri bo uri kugaragara kuri sikirini hirya yaho hari na kamera.

Abantu batandukanye bicaye ku ntebe z'umweru, abandi bahagaze bafite n'imitaka, imbere yabo hari umugabo ufite mikoro uri kubabwira ibijyanye n'inama.

Amafoto atandukanye y'abakobwa n'abasaza bari ku murongo, bamwe bambaye imyenda y'umweru, umukara, umusaza wambaye amarinete, hejuru yabo handitseho amagambo.

Ishusho y'imibare igaragaza ubwiyongere bw'abaganga bakoresha ikoranabuhanga mu kuvura abarwayi babagana, guhera bibiri na cumi n'umunani kugeza bibiri na makumyabiri na rimwe.

Abasore babiri barebare bahagaze imbere bari kuganira, umwe yambaye umupira w'ubururu afite n'akagozi mu ntoki, undi yambaye ishati ahetse agakapu mu mugongo, bari kuganira bigaragara ko batari baherukanye.

Umuganga wambaye ishati y'umweru wambaye ga mu ntoki, uri kuvura umwana uteruwe n'umudamu wicaye ku ntebe, wambaye imyenda y'igitenge uri kureba ukuntu umwana bamuvura.

Abaganga babiri bari mu cyumba bavuriramo abarwayi, bari kumwe n'umurwayi waje kwivuza wambaye umupira w'umuhondo, umwe mu baganga ari kumuvura akoresheje imashini zitandukanye.

Abaganga babiri umuhungu n'umukobwa bambaye amataburiya y'umweru, bari mu cyumba bavuriramo abarwayi, bari kuvura umwana mutoya uryamye ku gitanda uri kumwe n'umubyeyi wiwe wamuherekeje kumuvuza indwara.

Abanyeshuri bari mu cyumba bigiramo bambaye imyenda y'ishuri itandukanye harimo ubururu ndetse na kake, imbere yabo hari ibiryo biri ku masahani bigaragara ko bari kurya.

Abadamu batatu bari mu cyumba kirimo umurwayi bigaragara ko atwite, umuganga umwe afite agakoresho ari kumvaho uko umwana atera mu nda, bigaragara ko aryamye ku gitanda yiyoroshe igitenge.

Abana babiri b'abahungu, umwe ari kuvoma amazi kuri robine mu ndobo y'umweru, undi afite indobo imbere ye, ari kureba uko uwo mugenzi we ari kuvoma.

Abana babiri batoya bambaye imyenda y'umutuku bari gukaraba intoki, umwe ufite igikombe kirimo amazi ari gukarabya mugenzi we, kugirango bajye gufata ifunguro basa neza.

Inama irimo abagabo n'abagore, bicaye hamwe bari kuganira ku bijyanye n'uburinganire bw'abana n'imyororokere yabo, bari kuganira bareba ibibazo,

Abana bato bambaye imyenda y'ishuri bari ku murongo bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza n'isabune kugirango babone uko bajya mu ishuri gufata amafunguro...

Abaganga babiri bambaye imyenda y'ubururu imbere yabo hari umurwayi waje kwivuza amenyo umwe mu baganga ari kumupima akoresheje agakoresho kabugenewe.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, uri gukaraba intoki kuri kandagira ukarabe yubatse imbere y'urugo rw'iwe kugira ngo yinjire nta kibazo afite.

Abana b'abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu imbere yabo hari ubudomora butoya ndetse n'ibikombe bari gukoresha banywa amazi meza kuko amazi meza ari ingenzi.

Icyumba kinini kiri mu ibara ry'umweru kirimo uturongo tw'umutuku n'ubururu, hari intebe z'abaganga ndetse n'imashini zikoreshwa mu kuvura abanyarwanda.

Umwana wambaye umupira w'umweru n'agakabutura, uri imbere y'iriba ari kuvoma amazi akoresheje amabido y'umuhondo, kugira ngo ayajyane mu rugo bajye kuyakoresha imirimo itandukanye.

Abayobozi batandukanye barimo abagore n'abagabo, bateraniye hamwe kugira ngo bige ku kibazo cy'indwara zugarije abana ndetse n'abadamu, hifashishijwe ikoranabuhanga, imbere yabo hari udupapuro twanditseho amagambo ndetse n'ubucupa bw'amazi.

Abaganga batandukanye harimo abagore, abagabo bari imbere y'amavuriro bari gufata ifoto y'urwibutso kuko bakorana bose.

Intoki z'umuntu ziri gukaraba amazi ari guturuka ku gikoresho gisa ubururu, hirya hari isabune y'umweru amazi ari guturuka muri icyo gikoresho undi ari gukaraba.

Ikirangantego kirimo inzoka yizingiye ku giti ndetse n'umubumbe w'isi gisobanura umuryango wita ku barwayi ku isi hose.

Abagore batatu n'umwana wambaye ikanzu y'igitenge n'umuntu uri kuvomesha n'amabido atonze ku murongo y'ahantu bavomera.

Abana bari ku iriba baje kuvoma harimo n'umudamu wambaye umupira w'umutuku n'igitenge bari ku iriba kuvoma amazi bakanda icyuma kugirango ngo amazi aze.

Abaganga babiri bicaye, imbere yabo hari abaturage babiri bambaye udupfukamunwa, baje kwivuza indwara zitandukanye ndetse no kwiteza inshinge.

Abantu batandukanye bicaye ku murongo, bigaragara ko bategereje abaganga babafasha kubavura indwara barwaye, harimo abana bato ndetse n'abakecuru ndetse n'inkumi.

Umukecuru wambaye umupira w'amaboko magufi, ukenyeye igitenge ndetse yambaye n'ingofero ari kuvoma amazi kuri robine akoresheje ijerekani, ari kuvoma amazi ava mu kabande.

Umwana w'umukobwa usutamye imbere y'iriba uri kuvoma amazi mu ntoki kugira ngo ayanywe, imbere y'iwe hari amajerekani atatu y'umuhondo ndetse n'imwe y'ubururu bavomeyemo amazi.

Umusore wambaye umupira w’ubururu wicaranye n’umuganga wambaye imyenda y’umweru n’ubururu, ufite igitabo ari kwandikamo imyirondoro y’umugabo bari kumwe.

Umukobwa wambaye inkweto z'umuhondo n'ipantaro y'umukara, ufite igitenge ku rutugu wunamye uri kuvoma amazi ari gushoka, impande yiwe hari umwana wicaye uri kureba uko avoma.

Abantu benshi bari hamwe harimo abana abagore abagabo imbere yabo hari umugore upfukamye hejuru y'iwe hari abagabo babiri bari kumubwira bamutoteza.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kumwe n'umudamu ufite umwana, umuganga akaba ari guha umuti umwana uteruwe n'umugore wicaye ku ntebe.

Abantu bari hamwe batandukanye harimo abagabo n'abagore, bambaye bose amataburiya y'umweru, bari kwerekana ikimenyetso cya yego bakoresheje akaboko.

Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura y'umutuku n'ishati ya gisirikare uri kunywa amazi kuri robine akoresheje intoki, munsi yiwe hari indobo iri kugwamo amazi.

Abaturage batandukanye harimo abadamu n'abagabo, bari hamwe bambaye imyenda itandukanye. Hari abambaye ibitenge, hari n'abambaye amajire y'icyatsi bose bari hamwe.

Umuganga wambaye itabuya yu'umweru uri kumwe n'umudamu wicaye ku ntebe afite uruhinja bari guha umuti bakoresheje agacupa gatoya, bari kumutamika umuti.

Abaganga bari mucyumba bavuriramo abarwayi, hagati yabo harimo umurwayi uryamye ku gitanda, imbere y'iwe hari imashini ziri kumufasha guhumeka, bari kwitegura kugira ngo bamuvure.

Abaturage batandukanye harimo abagore abagabo n'abana, bari ahantu mu murima, abari imbere bafite ibipapuro birebire by'umweru byanditseho amagambo.

Abakobwa n'abahungu bari muvmuhanda, bambaye imyenda y'umweru n'ingofero z'umweru, inyuma yaho hari n'abandi bambaye imyenda y'ubururu, ab'imbere bafite icyapa kinini, cyerekana ibirangantego ndetse n'amagambo.

Abana babiri b'abahungu basutamye imbere ya rubine, umwe yambaye umupira w'umuhondo undi yambaye imyenda, isa bari gukaraba intoki bishimye.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo, afite akabido ari kuvoma amazi kuri robine, hepfo y'iwe hari n'undi mwana mutoya nawe uri kuvoma amazi uri kumwe na mama we.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ufite menshi uteruye umwana w'uruhinja, yambaye isaha y'umuhondo, yambaye umupira urimo amabara atandukanye umuhondo n'umukara yambaye amaherena y'umweru.

Icyumba bavuriramo abantu harimo abaganga bambara udupfukamunwa ndetse n'imyenda y'ubururu, imbere yabo hicaye abagore, bari kubatera ishinge ku kaboko.

Abagabo bambaye imyenda y'abaganga isa ubururu hagati yabo, harimo uwambaye itaburiya y'umweru, bambaye udupfukamunwa ndetse n'utugofero mu mutwe, bafite imiti mu ntoki yabo iri mu dukarito.

Abana b'abahungu n'abakobwa, bambaye imyenda y'ishuri isa, bari kuvoma amazi bakoresheje indobo n'utujerekani yo kujya gukoresha isuku.

Icyumba bakoreramo inama kirimo abantu b'ingeri zose, abagore, abagabo hagati yabo hari umuntu uri kubayobora w'umugore wambaye ikanzu y'umweru n'agashati k'umukara.

Abana bato bicaye hasi, bambaye imipira isa, ifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari umugabo uri guha umwe mu bana amata, imbere kandi hari n'abandi bagabo bahahagaze.

Abagore bagera muri batatu umwe wambaye isengeri y'umweru akenye n'igitenge n'undi wambaye tisheti irimo amabara y'ubururu n'umutuku n'umukara nawe akenyeye igitenge bari ku kivomesho bari kumanura bazamura, undi wambaye igitenge uri kudaha amazi imbere yabo.

Umwana w'umukobwa mutoya, ufite igitenge ku rutugu, uri kuvoma amazi kuri robine, mu ijerekani y'umuhondo, imbere yaho hari umugore ufite umutaka.

Inama yahuje abayobozi batandukanye harimo abazungu n'abanyarwanda n'abagore, hagati yabo bicaye ku meza bari kuganira ku bijyanye n'indwara zitandukanye.

Abakobwa bane n'umugabo umwe bose bambaye imyenda y'ubururu, bahagaze imbere y'akameza gafite ibara ry'uburu, kanditseho amagambo hagati.

Umugabo usutamye wambaye umupira w'umuhondo na marinete, ari kumwe n'umwana nawe wambaye umupira w'umuhondo ari kumupima ibiro, akoresheje aka mashini gateretse hasi.

Abana b'abakobwa bari hamwe bafatanye ku rutugu, bambaye imipira isa, bari ku murongo, bamwe bari imbere abandi bari inyuma, barishimye.

Abanyeshuri bari ku iriba, bambaye imyenda y'ishuri, baje kuvoma amazi mu madobo no mu mabido yo kujya gukora isuku aho bigira, ndetse no ku myenda yabo n'umubiri.

Umugabo wambaye umupira wa oranje uri guha ibiryo umwana mutoya uteruwe n'umugore wambaye umupira w'umweru ari kumuha ibiryo birimo: ibijumba, umuceri ndetse n'ibindi.

Abantu batandukanye, bari hamwe, bambaye imyenda itandukanye, hari abambaye ubururu, umukara, ndetse n'icyatsi, bari imbere y'inyubako yo kwa muganga, bigaragara ko ari abaganga cyangwa abarwayi.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, uri impande y'amazi, hirya hari abandi bana batandukanye harimo abakobwa n'abahungu, umwana uri imbere wambaye ishati yumuhondo akaba afite amazi imbere yiwe.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'umutuku n'agapantaro k'ubururu, yunamye imbere ya robine ebyiri ziri kuzana amazi meza, ari kuvoma akoresheje igikombe.

Abana babiri, umwe w'umukobwa, undi w'umuhungu bari ku iriba bari kuvoma, umwe ari inyuma ari gukanda icyuma cya robine kugira ngo amazi aze uw'umukobwa ari kuvoma.

Umukobwa muremure wambaye imyenda y'igitenge, uri ku iriba ari kuvoma amazi akoresheje ibido y'umuhondo, ari kuvoma amazi aturuka mu marobine.

Inyubako irimo urubyiruko ndetse n'ababyeyi bicaye ku ntebe zitondetse ku murongo, hagati yabo hari umuganga wambaye itaburariya y'umweru uri kubasobanurira ibyerekeye indwara zitandukanye.

Umukecuru wumuzungu ufite imisatsi ya buronze, uhagaze ahantu imbere y'ibishushanyo, ufite mikoro imbere yiwe wifashe mu gatuza, yambaye tisheti.

Abaganga batandukanye bari hamwe bambaye imyenda itandukanye harimo amatabuya y'umweru abambaye imyenda y'umukara bamwe baricaye abandi barahagaze inyuma yabo hari ikirangantego gisobanura amagambo ndetse n'ikigo nderabuzima bakoreraho.

Umusaza w'igikara wambaye ishati y'ubururu, uhagararanye n'undi inyuma yiwe nawe wambaye ishati y'ubururu afite amenyo arimo ibihanga.

Umwana mutoya w'umuhungu uri kurira amarira yashotse ku matama, wikoreye amaboko, inyuma yiwe hari umudamu ufite ibiti mu ntoki bibiri, uri kureba undi mwana.

Abagore babiri umwe uteruye umwana uteze igitambaro, undi wambaye umupira w'umweru ufite agakoresho gakoreshwa kwa muganga, afite na telefone mu ntoki, ukikiye ibinini n'ibitabo.

Umugabo ufite ikibazo cyo mu mutwe, wicaye hasi, yambaye ikabutura n'isengeri, ufite igipine mu nda kimuziritse, imbere y'iwe hari abagabo babiri bari kumureba

Abakobwa babiri umwe wambaye ikanzu y'ubururu undi wambaye umupira wumukara imbere yabo hari udukinisho tw'udupupe bari kudukinisha baganira ku ndwara zitandukanye zifata abakobwa.

Abaturage bambaye imyenda isa bari mu muhanda bari kugenda, imbere yabo hari abandi babiri bafite igitambaro cyanditseho amagambo ndetse n'ibirangantego bisobanura ko hari abakora umurimo wo gucunga umutekano.

igice cy'umutwe w'umuntu kigaragara mo ubwonko gifite ibice bitandukanye imitsi cyakamo amabara asa nk'umutuku umuhondo

Umukecuru wambaye imyenda y'igitenge uteze nigitambaro uri guseka bigaragara ko ari kwerekana amenyo meza kubera akoresha umuti woza amenyo mwi cyane

Umupira w'amaboko magufi uri mu mabara y'umweru n'ubururu, inyuma mu mugongo handitsemo amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Abantu b'ingeri zitandukanye abana, abakecuru, ababasore n'inkumi bari ahantu hamwe bafite ubudarapa bw'u Rwanda babuzamuye hejuru bishimye cyane bari kuririmba.

Abana batatu bicaye imbere ku muhanda bafite amakaye imbere yabo ndetse bambaye n'udupfukamunwa bari kwiga uburyo bakwirinda ndetse bari no gusubiramo amasomo yabo.

Abana b'abahungu n'abakobwa bicaye hamwe bari kwishima baseka, ndetse bumva impanuro z'ababyeyi babagira inama z'ukuntu bakwirinda icyorezo cyubugarije.

Umuganga w'umugore wambaye amarinete n'itabuririya y'umweru, inyuma yiwe hari abaturage bicaye mu ntebe bategereje ko babaha serivise.

Abana batandukanye barimo abahungu n'abakobwa, bicaye hasi bari kumwe n'umukecuru ushaje cyane, bari kureba imbere umuntu uri kubabwira amakuru.

Umuryango w'abantu batandukanye, harimo abagore, abasaza, hagati yabo hari umugabo wambaye imyenda yiniforume ya gipolisi abandi bambaye imyenda itandukanye harimo amabara y'umuhondo umutuku.

Abayobozi barimo umugore n'umugabo bicaye imbere y’abantu. Umugore afite mikoro bari kubwira abantu ibijyanye n'indwara zitandukanye zifata ubuhumekero.

Umugabo munini wambaye kositimu imbere yiwe hari akantu gateretse indabo, bigaragara ko ari ahantu hashyinguye abantu ari guha icyubahiro mu gihe batakiri muri ubu buzima.

Inama irimo ingeri zitandukanye harimo; abagabo ndetse n'abagore, harimo uri kuvuga akoresheje mikoro, imbere y'iwe hariho icupa ry'amazi ndetse n'imashini ari kureberamo ibyo ari kuvuga.

Abana b'abahungu benshi, abakuru n'abana, bari kurira bigaragara ko inzara ibishe, abandi bafite ibibazo byo mu mutwe, bamanitse amaboko

Umugore ufite mikoro uri kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara, bari imbere y'abantu bicaye ku ntebe barikubwira inkuru cyangwa ikiganiro.

Umugabo uri imbere y'imodoka mu muhanda wambaye imyenda yacikaguritse afite n'udupfuka ku rutugu ndetse n'igitebo mu kwaha, usa nabi mu maso bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Inyubako iri hejuru yitaruye umuhanda iri mu mabara y'umuhondo isakashi amabati y’umutuku, hirya yayo hari akandi kazu k'ubururu gatangirwamo serivisi zo gutanga imiti ku barwayi.

Umukobwa wambaye agatambaro mu mutwe, wicaye ku ntebe, bigaragara ko ari gutekereza cyane ku bijyanye n'indwara zitandukanye zo mu mutwe.

Abantu batandukanye bari mu cyumba bakoreramo inama, harimo abagore, abagabo, abakecuru n'abasaza, bateraniye hamwe bari kumva ibiganiro bijyanye n'ubuzima.

Umusaza w'inzobe wambaye umupira w'amaboko magufi wambaye n'amarinete, uri muri dushe ari gufata ibinini mbere yo kwiborosa kugira ngo amere neza.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'umukara, umwe yambaye agapfukamunwa k'umukara undi ak'ubururu, bari kuvura umurwayi amenyo bakoresheje utwuma twabugenewe two kwa muganga.

Umusore wicaye ku ntebe mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'uburiri baryamaho bari kuvura abantu, yambaye itaburiya y'umweru.

Umwana w'inzobe uryamye ku gitanda ufite imisatsi irambuye, uri kumwe n'abaganga bari kumuvura amenyo bakoresheje utwuma dutandukanye, hari akareba uko amenyo ameze.

Umusore wambaye imyenda y'umweru uri kwireba muri miruwari, ufite urudodo mu kanwa, afite amenyo maremare y'umweru meza, uri kureba ibyo akora niba abikora neza, ubona ko yishimye cyane.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye by'imashini bifasha abaganga kwita ku murwayi, kuvura indwara zitandukanye zifata mu maraso ndetse no ku mutima.

Umusore wambaye umupira w'ubururu ufite ubwanwa n'umusatsi mukeya wasamye yerekana amenyo meza kubera umuti akoresha yoza amenyo.

Umwana w'umuhungu bagiye kuvura amenyo bakoresheje utwuma twabugenewe aryamye ku gitanda. Hejuru har’umuganga wambabariy ga z'umweru ugiye kumukura amenyo.

Umwana uri kumwe n'umuganga, ari kumupima indwara zo mu kanwa, akoresheje utwuma twabugenewe, kugira ngo arebe ibibazo amenyo afite, kugira ngo abone uko amuvura.

Umusore w'inzobe ufite ubwanwa bwinshi, afite n'amenyo maremare meza, afite urudodo mu kanwa, yasamye neza ari kureba hirya, ari kwerekana ukuntu afite amenyo meza yakoresheje umuti yoza amenyo.

Umukobwa w'inzobe uri kwerekana amenyo yiwe ukuntu asa umweru bitewe n'imiti yakoresheje ndetse n'uburoso akoresha yoza amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bifasha abaganga kuvura umurwayi, harimo intebe umurwayi aryamaho ndetse n'intebe umuganga yicaraho mu gihe ari kuvura, harimo n'imashini yerekana ubuzima bw'umurwayi uko bumeze.

Umusore w'inzobe ufite umusatsi mukeya, wambaye ubusa hejuru ufite akagozi mu kanwa, ari kwireba mu kirahure uko, ari guca ako kagozi afite mu kanwa...

Umusore wambaye umupira w'umweru, uhagaze ahantu h'umuhondo, uri guseka cyane afite amenyo y'umweru meza, bigaragara ko akoresha umuti woza amenyo.

Umusore wambaye umupira w'umweru, uri imbere y'ikirahure, ari kwireba, ari gukora imirimo yo koza amenyo akoresheje urudodo, arucisha mu menyo kugirango imyenda isohoke.

Umusore wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite umusatsi mukeya afite agakoresho mu ntoki gafite utwinyo duto duto ari kugatunga urutoki yereka abantu ko katumye agira amenyo meza.

Abakobwa n'abahungu bambaye imipira isa icyatsi, bari ku murongo bose bicaye ku meza, bafite kologate imbere yabo, bari kwerekana ukuntu boza amenyo, inyuma yabo hari abandi basore babiri bambaye imipira y'umweru bigaragara ko aribo babayoboye.

Umusore w'igikara ufite umusatsi mwinshi yambaye umupira w'umweru ahagaze imbere y'ikirahure ari kwireba ukuntu ari guca akagozi akoresheje amenyo.

Umusore w'inzobe wambaye umupira w'umweru ufite akadodo mu menyo, uri kugakoresha agakuba kugirango havemo imyanda ku menyo kugira ngo akomeze agire amenyo meza.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa bavura abantu harimo intebe, ibitanda baryamaho ndetse n'imashini zibafasha gusuzuma abarwayi.

Icyumba kirimo ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye harimo imashini, intebe z'ubwoko bubiri, intebe baryamaho iyo bicaraho n'ibindi bikoresho byerekeye kwa muganga.

Abana batoya bambaye imyenda y'ishuri, isa ubururu, bari hamwe ku murongo bari gukoresha udukoresho twoza amenyo, turi mu mabara atandukanye.

Ishusho y'umunwa uri kugaragaramo ibice by'amenyo haba ayo hejuru nayo hasi uko aba ameze ndetse n'aho aba atereye mu gihe umuntu atangiye kuyamera cyangwa yagize ikibazo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo imashini ndetse n'intebe, n'igitanda umurwayi aryamaho mu gihe bari kumubaga, cyangwa bari kumuvura indwara yaba afite.

Icyumba kirimo abanyeshuri batoya, biga amasomo atandukanye harimo no kugira isuku ku mubiri, bafite ibikoresho bakoresha boza amenyo, bari kumwe n'umwarimu wabo

Umusaza wicaye mu kagare k'abarwayi, uri kumwe n'umukobwa wambaye imyenda y'ubururu y'abaganga, bari guseka bishimye cyane, ubona ko umukobwa yishimiye umusaza.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko maremare, wicaye mu kagare, inyuma y'iwe hari umukobwa uri kumusunika, amuvana kwa muganga, amujyana kumutembereza, bishimye cyane.

Umusaza n'umukecuru bicaye ku meza, umukecuru ari kuri mashini umusaza afite ibinini mu ntoki ari kwereka umukecuru, kumeza hari ibindi binini bisa umweru na terefone n'impapuro.

Umukobwa wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'umuhungu wambaye ishati y'umweru, bari gufasha umusaza ufite ikibazo cyo kugenda kugirango abyuke ajye hanze.

Umugore wambaye agasengeri ka move uri gukora siporo apfukamye hasi, ari kureba imbere akora popaje azamuka yongera amanuka.

Umusaza ubyibushye uri kumwe n'umukobwa wambaye amarinete bari kwifotoza ifoto bari imbere y'igipangu kugira ngo bajye bibukiranya.

Umugore ufite igikapu mu ntoki, n'ikindi ahetse mu mugongo, ari kumwe n'undi ufite ikibazo cyo kugenda, afite ikintu imbere kimufasha kugenda atambuka.

Umuganga w'umugore wambaye itabuririya y'umweru uri kumwe n'umurwayi w'umusaza bigaragara ko afite ikibazo cyo gutambuka, ari ku mutoza kugenda akoresheje ibikoresho byo kwa muganga.

Abasaza bicaye mu ntebe ziri imbere y'inzu, bambaye imyenda ya kinyarwanda, bamwe muri bo bafite n'inkoni, abandi bambaye imyenda ijya kumera nk'ibitenge.

Umusaza wambaye umupira w'amaboko magufi n'itiriningi n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu uri kumwereka ukuntu bagendera ku byuma bifasha umuntu gukora siporo zo kugenda.

Umuryango w'abana babiri, n'abagore babiri, n'abagabo babiri, bicaye hamwe, bamwe bambaye umuhondo, abandi bambaye ubururu, bari guseka bafatanye ku rutugu.

Umugabo uri kumwe n'umwana we bari mu kibuga cya basikete umwana afite balo mu ntoki, umugabo amuri inyuma ari kumwerekera ukuntu bakina badunda balo.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda y'umutuku uri kumwe n'umurwayi w'umusaza wicaye mu kagare ufite akabazo mukaboko, ari kumutoza guterura icyuma kiremereye kugirango akaboko gakire.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo siporo, harimo umuganga wambaye imyenda y'umukara uri kumwe n'umusaza wambaye umupira w'ubururu, n'agakabutura k'umukara uri kwiga kugenda akoresheje agakoni, bigaragara ko yari afite ikibazo cyo kugenda kubera yavunitse.

Umukecuru uhagaze ufite ibiryo mu ntoki n'ifoke, ari guseka, yambaye amaherena, agiye kurya ibiryo birimo voka, inyanya.

Umukecuru wambaye umwenda w'umuhondo n'amarinete, wicaye ku meza afite ubucupa bubiri bw'ibinini, agatoya agafite mu ntoki.

Umuganga wambaye imyenda y'umutuku yambaye n'agapfukamunwa, yicaranye n'umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge. Ari kuvura akoresheje akamashini yashyize ku kaboko, ari kureba uko umutima utera.

Umukecuru n'umusaza bari ku meza umusaza afite ibinini mu ntoki, umukecuru ari kumwereka amategeko y'ukuntu ari bubinywe ndetse afite n'amazi mu ntoki kugira ngo ari bunyweshe.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'umweru n'amatiriningi y'umukara bari gukora siporo, bafite uducupa twamazi mu ntoki kugira ngo ni baruha banywe ku mazi bongere bagire imbaraga zo gukora siporo.

Umusaza ubyibushye wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, ufite akantu k'akariteri ku kaboko, uri kumwe n'umuganga uri kumwereka ukuntu akora siporo z'akaboko.

Umusaza wambaye ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'ikigina uri kumwe n'umuganga w'umuzungu, uri kumufasha kumenyera kugenda bakoresheje akuma bafasheho.

Abagore babiri bari kumwe n'umwana wambaye umupira w'umutuku, bicaye kumeza bari guseka bari gukina n'amakarita, bishimye banaganira ukuntu bafite ubuzima bwiza.

Umukecuru ubyibushye w'inzobe uri kumwe n'umukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'ubururu. Amuhagaze inyuma amufashe ku mutima. Bariguseka bishimye cyane.

Umukobwa uri guha ibinini umusaza wicaye imbere y'imashini ku meza ariho amazi ari mu kirahure, igitabo, ari kumuha ibinini amufashe ku rutugu.

Abadamu bari mu muhanda bari gukora siporo bigaragara ko babyibushye, babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse undi yambaye amarineti n'inkweto zijya gusu umukara.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru wicaranye n'umusaza waje kwivuza indwara zijyanye n'amaraso, umuganga ari kumupima akoresheje akuma yashyize ku kaboko.

Umukecuru n'umusaza bari mu gikoni bari mu mirimo yo gutunganya ibyo kurya bakoresheje ibikoresho bitandukanye, bari gukata imboga ndetse n'inyanya.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku meza, umukecuru bari gusomera umusaza agapapuro kariho amagambo yerekana ukuntu bakwirinda indwara zitandukanye, bakoresha ibinini bahawe.

Umusaza wambaye ishati y'maboko maremare, imbere yiwe afite terefone mu ntoki ndetse ariku kumwe n'umuganga w'umugore wambaye imyenda ijya gu gusa ubururu uri kumwereka ukuntu akoresha terefone.

Umugore wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare uri kumwe n'umwana we bari kumeza, ari kumwereka utuntu turi kumeza tw'inyuguti ari kumwigisha amwereka ati: "hano wanditse...".

Umukecuru w'igikara udafite umusatsi, wambaye amaherena uhagaze mu gikoni ufite ikirahure cy'amazi n'ibini mu ntoki, uri kureba mu ntoki ibinini afite uko agiye kubinywa.

Abadamu bacuruza imbuto mu isoko bicaye hamwe, bambaye ibitenge bose, imbere yabo hari imbuto n'inyanya, umwe muri bo ari kubasobanurira.

Umuryango w'abantu batandukanye harimo umukecuru n'umusaza n'umugore n'umugabo wiwe n'abana babiri bari kumwe ,umugabo akaba ahetse umwana w'umukobwa mu mugongo.

Umusaza wicaye hanze uri kumwe n'abana babiri b'abakobwa bose bafite ibyo kurya mu ntoki bimeze nka biswi, abana bari kubireba.

Umugore n'umusaza wambaye imyenda y'umweru, bicaye kumeza, umugore arahagaze ari gusukaje mu kirahure, imbere ye hari pome.

Umuyobozi w'ikigo gishinzwe kwita ku barwayi, ari imbere, ari kumwe n'abamasera b'abakecuru bambaye imyenda y'umweru n'udutambaro mu mutwe na bo bashinzwe kwita ku barwayi ndetse n'abagore

Umukobwa wambaye agakanzu ari kumwe n'umugabo wambaye ikositimu, ahagaze imbere y'icyapa cyerekana ahantu bavurira abarwayi indwara zitandukanye.

Abantu batandukanye, harimo abagabo, abagore n'abasaza, bamwe bahagaze, abandi bicaye imbere yabo, bahagaze imbere y'ibirangantego by'ibigo,..

Ijambo ryandikishijwe ibara ry'umweru, rivuze ngo twirinde n'andi magambo, munsi yandikishijwe ibara ry'umuhondo, bivuze ngo twirinde indwara z'ubushita bw'inkende.

Uburyo bukoreshwa berekana amagambo uko agenda akurikirana, ndetse n'ibimenyetso byayo bigenda biyiranga, nko mu baganga bakoresha bererekana indwara uko zigenda zisimburana.

Abantu bicaye mu ntebe, imbere yabo hari abantu bari kubyina imbyino za kinyarwanda, abakobwa, ndetse n'abahungu, bambaye imyenda y'ubururu n'imikenyero y'umweru.

Umwana w'inzobe, ugaragara ko ari kumwe n'umubyeyi we, uri kumutamika umuti, umwana yasamye, hirya y'iwe handitse amagambo asobanura ibyo ari kumuha.

Abaganga batatu b'abagore bashinzwe kwita ku barwayi babagana mu kigo gishinzwe kwita ku babyeyi, bafite ibibazo bitandukanye bahagaze imbere bambaye udupfukamunwa bari kubwira abaturage.

Umugore uri imbere y'abantu uri kubabwira akoresheje mikoro, yambaye umupira w'icyatsi, yambaye n'ikanzu ijya gusa umweru, imbere yiwe hari mikoro na bafule, inyuma yiwe hari umuntu wicaye.

Ishusho y'amagambo iri mu mabara y'ubururu n'umutuku hirya hari akarangantego gasobanura ubuzima buzira umuze, bukoreshwa mu gihe bari kwamamaza cyangwa bari kumenyekanisha, indwara runaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu batandukanye, harimo abaganga bambaye imyenda bikwije yo kwirinda icyorezo, bari kumwe n'abarwayi bari kubandika kugira ngo babavure.

Igice cy'umubumbe w'isi kigaragaraho imigabane itandukanye harimo afurika, aziya na amerika. Kuri buri mugabane hakaba hariho utuntu tw'udutaburo turimo utubazo, turi mu mabara y'umutuku n'ubururu.

Abaganga babiri bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'udupfukamunwa naga ku maboko bari mucyumba bavuriramo abarwayi bafite ibibazo bitandukanye byabo ibyo kubaga.

Utuzeru turi mu mabara atandukanye umuhondo, ubururu, icyatsi na oranje, twanditsemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru risobanura ko ari amagambo yerekana ibimenyetso by'indwara zitandukanye.

Icyumba kirimo abaganga bambaye imyenda isa n'udupfukamunwa, imbere yabo hari imashini nini icometseho insinga zijyana amashusho muri ekara no k’umurwayi kugira ngo babone ukuntu bamuvura.

Abanyeshuri bari mu muhanda bambaye imyenda isa, hejuru bambaye umweru ab'imbere bafite ibyapa bagenda bishimye bari mu muhanda bari kumwe n'abayobozi babo.

Icyuma cyo kwa muganga kinini kiri mu ibara ry'umweru, gikoreshwa mu gufotora ibice by'umuntu bitandukanye kugira ngo harebwe indwara yaba arwaye.

Inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, zisize amarangi y'umweru, imbere hari ibyapa byanditseho amagambo ndetse imbere y'iyo nyubako hari imodoka y'umuyobozi iparitse imbere.

Igipangu cy'inyubako bakoreramo bavura abarwayi indwara zitandukanye, harafunguye harimo umugore uhetse umwana ugiye kuvuza umwana indwara afite...

Jarid nziza irimo indabo ndende n'ngufi z'umuhondo, igiti kinini cy'indabo, imodoka ziri muri parikingi n'inzu nziza nyinshi ziri ku murongo.

Inyubako yo kwa muganga iri mu mabara y'umweru, n'ikigina, isakarishije amabati asa umutuku, bigaragara ko itagikorerwamo imirimo yo kuvura abana ndetse n'ababyeyi, kubera ku mpamvu zitandukanye.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gukora siporo z'ingororamubiri, harimo ibyuma baterura ibinini n'ibitoya bifasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Inyubako zitandukanye zisize amabara y'umuhondo, imbere yaho hari amajaride afite indabo zitandukanye harimo umutuku, icyatsi hari n'izindi ndende.

Inyubako yo kwa muganga irimo ibikoresho bitandukanye, bifasha abaganga kuvura abarwayi, harimo imashini zerekana ibimenyetso umurwayi afite, ndetse n'igitanda umurwayi aryamaho.

Inyubako nini cyane ikorerwamo imirimo yo gufasha abarwayi, iri imbere y'ikirangantego cy'Afurika, nta muntu uyitemberamo, bigaragara ko ifunze

Inyubako yo kwa muganga ikorerwamo ubushakashatsi butandukanye, imbere hari abaganga bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa. Inyuma hari abaturage benshi baje gusura aho hantu kugira ngo barebe ibikorwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaturage batandukanye bicaye ku ntebe bari kumva inama z'abaganga, bambaye imyenda itandukanye harimo umuhondo n'icyatsi, harimo abagore bambaye ibitenge ndetse imbere yabo uri kubabwira inama.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, imashini bakoresha bavura abarwayi ndetse n'ibintu baterekaho ibikoresho byabo.

Inyubako yo kwa muganga irimo umuntu uyikoramo, wicaye, imbere yiwe hari ibikoresho bitandukanye ndetse n'ububiko babikamo ibikoresho bakoresha.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo n'amadirishya y'icyatsi, isakaje amabati y'ubururu, inyuma yayo hari indi bisa, imbere hari igiti gitoya kiri muri jaride nini.

Abakobwa babiri n'abahungu babiri bicaye ahantu umwe muri bo w'umukobwa ari gusuka amazi mu gapipiri, undi mugenzi we ahagaze ari kureba hamwe na ba basore babiri bambaye amataburiya y'umweru.

Umurwayi w'umugabo ubyibushye, uri ahantu mu cyumba kirimo ibikoresho by'imashini bibiri, iburyo n'ibumoso bicometseho imigozi ijyana amaraso mu byuma kugira ngo akomeze amere neza.

Inzu iri mu mabara y'umuhondo yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'umuhondo hejuru handitseho amagambo, imbere yaho hari intebe n'abantu bari gutambuka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri hagati yaho hari imeza icometseho imashini zifasha gusuzuma abarwayi bari muri icyo cyumba.

Inyubako yo kwa muganga yahariwe kuvurirwamo abarwayi bafite ibibazo byo kubagwa cyangwa abafite ibibazo byo mu mutwe bisaba ko babacisha mu cyuma.

Inyubako nyinshi zubatse ku murongo, ziri mu mabara asa umweru, zubatswe vuba kugira ngo zizakorerwemo imirimo yo kuvura ndetse no kwita ku barwayi mu gihe babaganye.

Inyubako yo kwa muganga yifashishwa mu gutanga ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi gukira tuvuge nko kuba bakeneye ibinini byo kunywa kugira ngo bakire umutwe cyangwa mu nda .

Abaturage batandukanye bahagaze imbere y'inzu yo kwa muganga, bategereje kwinjira kugira ngo bivuze indwara baba barwaye: harimo abagore abagabo ndetse n'abana.

Umuhanda werekeza ku nyubako yo kwa muganga bakoreramo imirimo itandukanye yo kuvura abarwayi indwara barwaye izo arizo zose, harimo izo kubagwa ndetse n'izo kubagorora cyangwa kubaha ibinini bagakira.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, harimo amadirishya y'umweru n'ibirahure, hejuru yaho handitseho amagambo, yandikishije ibara ry'ubururu agaragara ko ari ikigo.

Umuganga wambaye itaburiye y'umweru uri mu cyumba bavuriramo abarwayi yicaranye n'umusore waje kwiteza urushinge kugira ngo yirinde indwara zitandukanye.

Inyubako nini cyane yo kwa muganga, isize m’irange ris’umweru, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo zo kugorora umubiri, ndetse no kwita ku mutwe.

Inyubako yo kwa muganga isize amarangi y'umweru, ifite ibikoresho bigiye bitandukanye, hari intebe bicaraho ndetse n'ahantu bakirira abaje kwa muganga.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite inzugi z'umweru n'icyapa hejuru, bakoreramo batanga ibinini ku barwayi, basuzumiramo n'abafite ibibazo

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe bari kumuvura, harimo n'utubati dusize irangi ry'umuhondo ndetse n'amadirishya asohora umwuka mubi ndetse.

Inyubako nini cyane iri mu mabara atandukanye harimo umuhondo, yifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo bitandukanye harimo imvune ndetse n'abarwayi n'ababyeyi bashaka kwibaruka abana.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi bafite ibibazo bitandukanye by'umubiri, yaba abavunitse cyangwa bafite ingingo zidakora neza

Inyubako yo kwa muganga, yahariwe gukoreramo Siporo. Hari ahantu hari ibyuma bakoresha, hari n'aho nta cyuma kirimo, hari aho bakorera siporo z'amaboko.

Umurwayi w'umugabo uri kwa muganga, aryamye ku gitanda, yambaye ishati y'umweru yazamuye akaboko, hirya y'iwe hari icyuma kimufasha kumera neza.

Ibyicundo by'abana bariraho umunyenga, biri mu mabara atandukanye, harimo ubururu n'icyatsi, umwana yicaraho, maze undi akamuzunguza, akumva umunyenga.

Inyubako yo kwa muganga irimo imashini nyinshi ndetse n'intebe abaganga bicaraho, hejuru hamanitse ibi mashini by'umweru bifasha abarwayi gukoresha urumuri.

Icyumba kirimo imashini zitandukanye, n'igitanda kiryamyeho umurwayi ugiye kubagwa indwara zitandukanye afite mu mubiri, hakoreshejwe imashini zabugenewe.

Inzu yo kwa muganga, irimo utubati turimo ubucupa bw'ibinini bigiye bitandukanye, bifasha umuntu gukira indwara yaba arwaye, hakoreshejwe ibinini.

Inyubako yo kwa muganga hakoreramo inama, harimo intebe zifite amabara atandukanye ndetse n'ibipupe byifashishwa mu gushimisha abana mu gihe bari kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bitandukanye, bikoreshwa mu gihe umurwayi ashatse kwicara cyangwa kuryama, mu gihe yaba ari kuruhuka, ategereje ko bamuvura, cyangwa ari kuvurwa.

Icyapa kiranga aho ibitaro biri, imbere y'ibitaro hari jaride hari n'ibiti birebire bigiye bikikije iyo nyubako.

Umwarimu uri kumwe n'umwana imbere, inyuma yaho hari abandi bayobozi baje kubasura, bari kwerekana ukuntu baborosa amenyo, bakoresheje uburoso n'ikindi gikoresho cyerekana amenyo y'umuntu.

Umuganga uri imbere y'icyuma gikoreshwa kwa muganga mu kuvura ndetse no gufotora abarwayi, ari kugikorera isuku agihanagura kugira ngo agitegure.

Imihanda ibiri unyura hepfo n'unyura ruguru yose ihurira ku nyubako bakoreramo imirimo itandukanye yo kuvura abarwayi hakoreshejwe ibyuma bitandukanye.

Inyubako yo kwa muganga, iri mu mabara y'umuhondo isakarishije amabati y'ubururu, bazaza bakoreramo mu gihe hagize ikibazo cyangwa hari abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Inyubako igeretse kabiri y'ikigo nderabuzima, gifasha abantu bafite ibibazo, haba abarwaye cyangwa abashaka kwisuzumisha indwara zitandukanye.

Umugabo n'umugore, bahagaze hejuru y'umukobwa uryamye ku gitanda, wambaye ikanzu ijya gusa ubururu, ufite ikibazo cyo ku kaboko bari kureba.

Inyubako irimo itubati twinshi, turimo ubukarito burimo ibikoresho by'abaganga ndetse n'amaraso, kugirango ngo azafashe abarwayi badafite amaraso.

Inyubako yo kwa muganga, ifite imiryango itandukanye, iri ku murongo ndetse ifite n'imiryango y'ibirahure binjiriramo bajya ahantu haba hari abarwayi

Itsinda ryabakobwa bambaye imyenda isa y'ubururu n'udupfukamunwa ku kumunwa, bigaragara ko ari abaganga bo ku bitaro bafasha abarwayi, bari kwifotoza bazamuye akaboko imbere.

abakobwa batatu bahagaze ahantu hari ibiti bambaye imyenda y'ubururu y'abaganga bateze ibitambaro by'umweru bigaragara ko bafasha abarwayi.

Inyubako yo kwa muganga ifasha abaturage kubona aho bivuriza, indwara zitandukanye n'aho bafatira ibinini by'indwara baba bafite.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igitanda n'imashini zikoreshwa n'amashanyarazi, gifasha umurwayi kugira ubuzima bwiza, kimufasha no kugira ngo adahura n'ikibazo.

Inyubako nini cyane iri mu ishusho y'ikizeru, inyuma yaho hari indi yubakishije amatafari ahiye. Iyo nyubako niyo bakoreramo bavura abantu indwara zananiranye, akaba agiramo n'abantu bafite ibibazo by'imitima.

Inyubako yo kwa muganga ifite imiryango minini m'imbere harimo utubati turimo imiti itandukanye ifasha abantu gukira indwara umuntu araza akivuza bakamusuzuma maze bakamuha imiti.

Umuryango wo kwa muganga, hejuru yawo hari icyapa cyerekana ko, uwo muryango winjirwamo abantu bagiye gukorerwa isuzuma ryihariye ku buzima bwabo.

Abantu barimo kugenda ku muhanda wa kaburimbo, imbere hari igiti gisize amabara y'umweru n'umutuku hari imodoka kuri iyo kaburimbo, amazu n'imisozi inyuma yaho, hari n'icyapa cy'amabara y'ubururu n'icyatsi.

Inyubako yo kwa muganga, imbere yayo hahagaze abagore bane n'umugabo muremure ubahagazemo hagati, bigaragara ko ari umuyobozi wabo.

Icyumba kirimo abarwayi babiri b'abagabo n'abaganga babiri b'abagore, bambaye amataburiya y'umweru, bose bambaye udupfukamunwa, baryamye ku bitanda

Inama y'abaturage bicaye ku ntebe, harimo abakecuru ndetse n'abasaza, n'abana batoya, imbere yabo hari umuyobozi ufite mikoro uri kubabwira ibyerekeye indwara zitandukanye.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kwa muganga byo gufasha abarwayi bafite indwara zitandukanye babasuzuma ndetse bakabaha n'ibinini, aho niho banacuruza ibinini by'indwara zitandukanye.

Inyubako zigeretse za etaje, ziri mu mabara y'umweru, zisakaje amabati, umutuku, hepfo hari ibyatsi, harimo n'idarapo ry'u Rwanda hari n'amashyamba n'imisozi.

Inyubako yo kwa muganga yubakishijwe amatafari ahiye isize amabara y'umuhondo, imbere yayo hari abagabo n'abagore bahagaze bari kwifotoza.

Ubucupa butatu buri ku murongo bufite imipfundikizo y'umweru, kamwe karapfunduye umupfundikizo uteretse hasi, tukaba turimo imiti ikoreshwa mu kuvura.

Ikirangantego kigaragaza abantu babiri bambaye imyenda itandukanye, umwe yambaye umweru undi yambaye ubururu bari mu mirwano, hasi yabo handitseho amagambo asobanura igishushanyo.

Umusore uri kunywa amazi bigaragara ko yarari gukora siporo afite agacupa k'amazi ari kuyanywa, afite agasume ku rutugu bigaragara ko yarari gukora siporo maze akaba yarari kuruhuka agafata amazi kugira ngo amufashe kumererwa neza.

Imashini eshatu zerekana amashusho abaganga bakoresha mu gihe bari kwita ku barwayi, ndetse banakoresha bavugana mu gihe bari kuvura abarwayi.

Umusore wicaye ku ntebe yambaye umupira wamaboko maremare, wari uri gukora siporo akaba yarari kuruhuka agafata amazi yo kunywa kugira ngo aruhuke neza.

Umukobwa wambaye agasengeri, afite agatambaro k'ubururu, ari kunywa amazi kuko yarari muri siporo akaba ananiwe, agafata amazi akanywa kugira ngo aruhuke ndetse abone ukuntu akomeza.

Umugabo wambaye isengeri n'ipantaro apfukamye hasi ari gukora siporo, ari kurambura amaguru ndetse n'amaboko akora siporo kugirango ubuzima bwiwe bumererwe neza.

Igikapu abaganga bakoresha kiri mu ibara ry'umutuku, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, abaganga bakenera mu gihe bari gufasha abarwayi, bagize ibibazo bitandukanye nk'imvune, kubabara mu mutwe, kubabara mu nda ndetse n'uwagize ikindi kibazo cyerekeye ubuzima.

Umusore wambaye ubusa hejuru uri kugaragaza ibituza n'akaboko kariho utuntu tw'ubururu n'umutuku ku kaboko.

Igishushanyo kiriho ibimenyetso bitandukanye, hariho umuntu wipfutse mu maso, ibiganza biri gukaraba amazi, balo, inzu iriho n'agaterebye, abantu basuhuzanyije, umuntu uri gukaraba.

Umuntu w'umusore uri gukora siporo yambaye agasengeri ndetse n'agakabutura ufite telefoni ku kaboko imbere yiwe hari amagambo yanditse asobanura ukuntu bakora siporo n'akamaro kamaze...

Umuganga wambaye taburiya y'umweru n'isaha ku kaboko, uri kumwe n'umurwayi wavunitse akaguru, ari kureba ikibazo afite, kugira ngo abone uko amuvura akoresheje imiti yabugenewe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi wavunitse akaguru, imbere yiwe hari umuganga wambaye umupira w'umutuku, uri kumushyiraho ibikoresho bituma akira.

Imeza iriho imbuto, imboga, agacupa karimo amazi yo kunywa, ndetse n'icyuma bakoresha bakora siporo na avoka barya.

Umukobwa umaze gukora siporo, wambaye agaseri, ufite agasume bihanaguza ibyuya ku rutugu, uri kunywa amazi ari mu gacupa gafite umufuniko usa ubururu.

Igikoresho cyo kwa muganga, gifasha abantu gukora siporo no kugorora imibiri yagize ikibazo, n'amaguru cyangwa amaboko yavunitse, bitewe n'impamvu zitandukanye.

Umukobwa uri mu nyubako bakoreramo siporo, wazamuye amaboko apfukamye akaguru kari imbere, ari kunanura amaguru ndetse n'amaboko, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Amaguru abiri y'umugabo wambaye ikabutura y'umukara, ku iviri rimwe hariho ubupfuko bubiri kamwe kamanuka akandi gatambika, tumufasha gukira imvune yatewe n'ibintu bitandukanye.

Umuntu uri muri siporo wambaye isengeri uri gukora siporo zo kunanura amaboko kumwe yagushyize mu mugongo ukundi yagufatishijeho arikuba inyuma.

Akaboko k'umuntu w'igikara wavunitse uri kwikandisha amazi ari mu ishashi asa ubururu kugira ngo akire, akora nka pomade.

Umuntu w'igikara ufite akaboko gafite ikibazo, ari kugakanda akoresheje ishashi y'ubururu irimo umuti wabugenewe wo gukanda akaboko.

Umukobwa wicaye hasi wambaye agasengeri n'agatiriningi k'umukara uri gukora siporo zo kugorora amaguru akoresheje amaboko ayafatisha ku kaguru.

Umukobwa wicaye hasi, uri gukora siporo bigaragara ko ari kugorora amaguru kuko biba byiza iyo umaze gukora korosi cyangwa kwirukanka, wicara hasi ukarambura amaguru kugira ngo imitsi irambuke neza.

Agakoresho abaganga bakoresha bapima umuntu ubushyuhe cyangwa umuvuduko w'amaraso, bakoresheje akantu bashyira ku mubiri, kakerekana imibare muri ako kamashini.

Ibikoresho umuganga akoresha mu gihe ari kuvura umurwayi, harimo na ga yambara mu gihe ari gukora icyo gikorwa cyo kumuvura, n'ibinini amuha mu gihe yaba arangije kumuvura.

Imbuto zitandukanye ziri ku meza harimo umuneke, imikeri, pome ndetse n'inyanya. Hirya yaho hari umugore uri gukora siporo za pompaje.

Ibikoresho bine bikoreshwa kwa muganga mu gihe bari gusuzuma umuntu indwara yaba arwaye, harimo icyo bakoresha bapima umutima ndetse n'ibiro umurwayi yaba afite.

Umusore uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufi, wambaye ekuteri mu matwi z'umweru, uri kunywa amazi meza kugira inyota ishire ndetse akomeze no kugenda aho ari kujya ameze neza.

Umuntu uteruye isahani iriho ibiryo bitandukanye bifasha umuntu kugira imbaraga, ndetse hasi hari ibikoresho bikoreshwa mu gukora siporo, hari inkweto hari ibyuma umuntu aterura ndetse hari n'akacupa kariho amazi.

Abana batoya bari mukibuga, bambaye imyenda itandukanye, bari gukora siporo, imbere yabo hari umwarimu uri kubererekera ukuntu bakora siporo.

Umusore wambaye umupira w'umukara uhagaze ufite amazi ari kuyimenaho mu maso ndetse anayanywa kubera icyuya yagize ndetse n'inyota afite.

Umukobwa wambaye agasengeri n'agatiriningi uri gukora siporo, yafashe akaguru n'akaboko kamwe akandi kaboko kari mu mugongo, uri kureba hasi ndetse ari kuzamura akaguru yongera agahina.

Agakoresho ko kwa muganga kifashishwa mu gutwara amaraso ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, kameze nk'indege kagendera mu kirere gafite ikarito iriho ikimenyetso cyo guteranya, gatwaye ibinini kabivanye hamwe kabijyanye ahandi.

Abasore batatu bari imbere y'umuntu uryamye hasi, baziritse amaguru ndetse n'amaboko, kugira atagira ikibazo kimubaho wagize ikibazo cyo mu mutwe.

Ibikapu bibiri byegeranye biri mu ibara ry'umutuku kimwe muri cyo kirafunguye, kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'abaganga; imikasi, bande, n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu kuvura.

Ikizingo kinini kiri mu ibara ry'umutuku, gikoreshwa kwa muganga bahambira umuntu ufite igikomere cyangwa uwagize ikindi kibazo ku kaboko cyangwa ku kaguru.

Ijage y'ikirahure irimo amazi ndetse n'igikombe bari gusukamo amazi, bigaragara ko biteretse ku meza, ari umuntu uri gusuka amazi mu gikombe asa neza.

Ibikoresho bitandukanye biri hasi birimo imiti, ibikoresho bakoresha bavura abantu babatera inshinge, ndetse n'imyenda bambara, naga bambara mu ntoki mu gihe bari gutera imiti umuntu.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya, uri muri siporo uhagaze ari kunywa amazi kugirango aruhuke abone imbaraga zo gukomeza gukora siporo.

Igikoresho cyo kwa muganga, kikamera umurwayi, gifite amapine hasi, kikagira n'imigozi iba ifashe kuri kamera hejuru, kikaba kigenda kiva hamwe kijya ahandi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu gukora siporo, haba izo kwiruka ndetse no gukora akaguru mu gihe waba ushaka gukora wicaye.

Umuhungu w'umusore ufite amazi ari kunywa yerekanye akaboko kabyibushye kubera siporo yakoze, ndetse n'amazi anywa iyo ari gukora siporo.

Umuganga wambaye imyenda y'umukara ndetse n'agapfukamunwa, uri imbere y'umukinnyi wa rugubi, wavunitse akaboko, umuganga akaba ari kumufasha, amuvura.

Icyumba kirimo imashini isa umweru kwa muganga bakoresha bafotora umuntu kugira ngo barebe ibice by'umubiri bifite ikibazo ndetse barebe n'uko bamubaga...

Umuzungu uri kumwe n'umwana ndetse n'umumasera nawe bari kumwe, bari kureba imbere bishimye bari guseka, bigaragara ko umuzungu yaje gusura abana batagira ababyeyi.

Umuntu uraramye afite agacupa ku munwa, ari kunywa amazi akoresheje uburyo bwo gusuka amazi mu kanwa, kugira ngo amazi amugirire akamaro ndetse amererwe neza.

Ibikoresho bitandukanye biteretse ku meza abaganga bakoresha bavura abarwayi, hari agafite ibara ry'umutuku gacometseho insinga zerekana ubuzima bw'umuntu ukuntu bumeze.

Umukobwa n'umuhungu bari muri siporo, umwe yambaye isengeri y'ubururu, agakabutura k'umukara ,bafite uducupa tw'amazi mu ntoki bari kugenda gahoro gahoro.

Icyumba kirimo imashini nini cyane, umuntu aryamaho maze imashini ikamufotora ibice by'umubiri bitandukanye kugirango harebwe ibibazo umuntu yaba afite.

Umugabo muremure wambaye umupira w'amaboko magufi usa icyatsi, afite baro mu kaboko k'iburyo bigaragara ko agiye muri siporo gukora.

Umuganga wicaye muri biro imbere yiwe ku meza hariho imashini akoresha yandika ndetse n'ibitabo, ikaramu yambaye agapfuka munwa ndetse na ga mu ntoki.

Imeza iriho ibikoresho bakoresha bakora siporo n'imbuto umuntu arya, harimo imineke, pome, amacunga n'indimu n'ibindi.

Igikarito kinini kiri imbere y'akandi kantu kazingazinze k'umweru, bigaragara ko ari nka sikoci bahambiriza abantu bavunitse, icyo gikarito kikaba kiri mu ibara ry'kigina.

Umukinnyi w'iteramakofe ufite ibisebe ku maboko, umuganga ari kumushyiraho ibipfuko by'umweru bimufasha kugira ngo intoki ziwe zimere neza ndetse zinarinde ibyago byaza ku ntoki.

Umusore wambaye ubusa hejuru ufite, udupfuko tubiri ku kaboko, kamwe k'ubururu, akandi k'umutuku, tumufasha kuvura akaboko ikibazo kagize.

Igikoresho cyo kwa muganga, bakoresha bapima ibintu uko byujuje ubuziranenge kiri mu mabara abiri ubururu n'umweru, gifite ububuto bw'umukara.

Umugabo wicaye wambaye ikabutura y'umukara ufite agashashi k'ubururu kwivi uri gukanda kugira ngo imvune igabanuke ndetse areke no kubabara kuko afiteho imvune.

Umusore w'igikara wambaye umupira w'amaboko magufi; uri kwa muganga mucyumba akoreramo imyitozo; uri kumwe n'umuganga ari kumwereka ukuntu akora siporo zo guterura icyuma.

Igikapu cy'umutuku cy'abaganga bakoresha mugihe habaye impanuka, harimo ibikoresho bitandukanye n'imiti, ibinini na bande bashyira ku bantu bakomeretse.

Umukobwa w'igikara, wambaye agasengeri k'umutuku, uri gukora siporo, azamura amaboko hejuru, yambaye isaha ku kaboko, afite ekuteri mu mu matwi, ari kumva imiziki.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru wambaye na ga, mu ntoki afite balo zikoreshwa mu gukora siporo zitandukanye ari kwereka uko bayifata.

Indabo zihinze ahantu mu byatsi bifite amabara atandukanye, byifashishwa mu gukora imiti ivura abantu ibibazo bitandukanye.

Imeza iriho udukarito dutandukanye turimo imiti yifashishwa mu kuvura abantu bafite ibibazo bitandukanye ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye harimo imineke, inanasi.

Imeza iteretseho ubucupa butatu bw'ibinini, akanini n'utundi tubiri dutoya, imbere yaho hari ijage y'umweru irimo ibinini byinshi hakaba hari n'ikirangantego kiri mu mabara y'umuhondo.

Ubucupa ndetse n'ubukarito buteretse hasi burimo imiti itandukanye iva mu bimera, bikoreshwa mu kuvura abarwayi kugira ngo bakire indwara zitandukanye zifata ubuhumekero.

Imiti ya kinyarwanda iri mu dukarito dutatu dutandukanye, ikozwe mu bimera, imyenya, imiravumba, n'indi yose bavanga kugira ngo ba ukuremo umuti bakoresha bavura abantu, barwaye.

Agacupa karekare k'umweru gafite n'umufuniko w'umweru kariho igifuniko cy'ubururu kiriho amazi, hashushanyijeho n'inuma iri kuguruka. Kakaba gakoreshwa mu kubika ibinini.

Ubukarito burimo ibinini ndetse n'imiti itandukanye ikozwe mu bimera, ifasha umuntu gukira indwara zitandukanye harimo nk'umutwe, kubabara mu nda.

Ikimera giteye mu murima urimo ibyatsi byinshi, kivamo umuti utandukanye uvura indwara zaba iziterwa n'umwanda ndetse n'izindi.

Imiti ya kinyarwanda itandukanye, iri kumwe n'agasekururo k'umukara, bikoreshwa mu miti ya kinyarwanda bavura abantu, cyangwa bakora imiti harimo ibinini.

Ubukarito buri mu mabara atandukanye, munsi yaho hari udukarito tubiri tunini duhari, twerekana umuti ukoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo izifata ku ruhu ndetse no ku musatsi.

Umuganga w'umugabo wicaye imbere y'imeza iriho amacupa abiri bashyiramo imiti ikozwe mu bimera, afite umuti mu ntoki ari kuwureba.

Uducupa dutatu duteretse ku tubaho tw'umweru, turimo ibinini bitandukanye, bifasha umurwayi gukira indwara yaba afite, harimo kubabara umutwe, kubabara mu nda, ndetse n'izindi ndwara.

Ishyamba ririmo ibiti birebire n'ibigufi, harimo n'ibimera bitandukanye, bivamo imiti ya kinyarwanda cyangwa imiti ya gakondo bakuramo.

Abagore bane bari mu murima munini uhinzemo ibimera bitandukanye bivamo imiti bakoresha bavura abantu.

Umugabo uhagaze imbere yambaye umupira w'icyatsi, afite ururabo mu ntoki ruvamo imiti itandukanye ikoreshwa n'abaganga mu kuvura abafite ikibazo by'ubuzima.

Igihingwa kivamo umuti ndetse n'ibinini bikoreshwa bavura abantu indwara zitandukanye zaba iziterwa n'umwanda.

uducupa twinshi turi hamwe ku meza, turimo imiti itandukanye ikozwe mu bimera, ifasha umuntu gukira indwara yaba arwaye iyo ari yo yose, hakoreshejwe umwe muri uwo muti.

Akabati karimo amacupa atandukanye, harimo imiti ya kinyarwanda ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye, harimo imiravumba, imyenya n'ibindi byatsi bavanga kugira ngo bakuremo umuti uvura abantu.

Imeza iriho uducupa dutandukanye ndetse n'udukarito turimo ibinini bitandukanye bikozwe mu bimera bifasha abantu bafite ibibazo bitandukanye.

Agakarito karimo uducupa tw'umuhondo, imbere y'ako gakarito hari agacupa kamwe, bigaragara ko karimo umuti wa kinyarwanda ukozwe mu bimera uvura indwara zitandukanye.

Ubucupa bubiri bw'amabara y'umuhondo buri kumwe n'amakarito abiri arimo imiti ya kinyarwanda ikozwe mu bimera bitandukanye bifasha umuntu kumererwa neza mu gihe yarwaye.

Udukarito dutatu turimo imiti ikoreshwa kwa muganga, ivura abantu bafite ibibazo bitandukanye, bijyanye n'ubuzima butameze neza.

Agacupa k'umweru karimo umuti wifashishwa mu koza amenyo kugira ngo havemo imyanda ndetse karinde n'indwara zafata amenyo harimo nko kuba umuhondo.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru, imbere yiwe hari akameza gateretseho imiti itandukanye, ari kuyifata ayishyira mu dukarito twayo kugira ngo ayibike neza itazagira ikibazo.

Uducupa dutandatu dusa umweru turimo ikirangantego cy'umuti ukozwe mu bimera, cyerekana ko uwo muti ukoreshwa bavura abantu.

Agacupa k'umuhondo karimo umuti ukozwe mu bimera, harimo igikakarubamba umwenya umuravurumba, bifasha umuntu gukira indwara yaba abarwaye.

Agashashi karimo imiti ikozwe mu bimera byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, twavuga nk'inzoka, kubabara mu nda n'izindi.

Umudamu wambaye isharupe y'umweru, ufite n'agakapu ku kaboko, uri gusoroma umuti ahantu mu rutoki kugira ngo ajye kuvura umwana.

Ibimera bitandukanye bihinzwe mu murima bifasha gukora umuti uvura indwara zitandukanye, harimo kubabara umutwe kubabara mu nda ndetse n'izindi ndwara.

Umuti usa nka shokora ukozwe mu bimera uri mu gashashi k'umuhondo kariho icyapa uwo muti ukaba ukozwe mu bimera bitandukanye harimo ibyatsi.

Uducupa dufite imifuniko y'ubururu, turimo imiti itandukanye iva mu bimera ifasha umuntu gukira indwara zitandukanye zivamo no gupfa, bagakira maze bakagira ubuzima bwiza.

Imbuto z'amacunga ziri mu mabara atandukanye, harimo izikase ndetse n'izitakakase zifashishwa mu gihe umuntu ari gukoresha imbuto.

Agakarito karimo imiti ikozwe mu bimera nk'umuravumba, ibikakarubamba ndetse n'ibindi bifasha umuntu gukira indwara zitandukanye nko kubabara umutwe, kubabara mu nda.

uUducupa tubiri tw'umweru, turiho ikirangantego cy'icyatsi, kivamo umuti ukozwe mu bimera, uvura indwara zitandukanye, zaba iziterwa n'umuvuduko w'amaraso.

Umurima urimo ibyatsi byinshi ndetse n'ibiti binini bivamo umuti wa kinyarwanda ndetse ninaho hava ibimera bivamo umuti.

Ubwoko bw'uducupa dutandukanye turimo imiti ikozwe mu bimera, ifasha umurwayi kumererwa neza ndetse no gukira indwara yaba arwaye iyo ari yose.

Ubukarito ndetse n'ubucupa bubiri buri mu ibara ry'umuhondo, burimo imiti itandukanye iva mu bimera byifashishwa mu kuvura abantu, indwara zitandukanye zifata ubuhumekero.

Akabati karimo uducupa turimo imiti ikozwe mu bimera bitandukanye harimo umuravumba, imyenya, ibikakarubamba, ibitunguru ndetse n'ibindi byose bifasha kuvura umuntu ikibazo yaba afite cyose.

Icupa ry'ikirahure ririmo umuti wa kinyarwanda ukozwe mu bimera, iryo cupa rikaba rifite umufuniko w'icyatsi, hakaba hariho n'ikirangantego kiri mu ibara ry'icyatsi ashushanyijeho n'iyo miti.

Agacupa k'umweru gafite n'umufuniko w'umweru, kanditseho amagambo ndetse n'imibare, karimo ibinini bifasha umuntu gukira indwara zitandukanye, harimo iziterwa n'umwanda n'izindi.

Udukarito tubiri, uducupa tubiri turi mu mabara y'umuhondo tugaragaza ko harimo imiti ya kinyarwanda, ikozwe mu bimera igiye bitandukanye, harimo imiravumba, imyenya...

Amacupa abiri y'umuhondo n'uducupa dutatu tw'umweru n'andi mashashi arimo imiti igiye itandukanye, ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye.

Icyapa cyerekana ibikoresho bakoresha bakora imiti y'ibimera, harimo imiravumba, imibirizi, n'ibindi byose. Imbere y'icyo cyapa hari amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umutuku...

Uducupa tw'umweru turimo umuti woza amenyo ukozwe mu bimera bitandukanye, haruguru yaho hakaba hari umukobwa ufite amenyo meza y'umweru yakoresheje yoza.

Akabati karimo uducupa tunini dutandukanye turimo imiti ikozwe mu bimera, ifasha abaganga ba gakondo kuvura abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Uducupa dutondetse ku murongo turiho amagambo yanditseho ndetse n'agashushanyo k'inuma. Utwo ducupa turimo umuti ufasha abantu gukira indwara zitandukanye zo mu kanwa.

Akabati karimo uducupa turimo imiti itandukanye ikozwe mu bimera bya kinyarwanda bigiye bitandukanye, harimo nk'imiravumba, imyeya n'ibindi bitandukanye.

Umuntu ugiye gusoroma ikibabi ku giti cyera imbuto zitandukanye, zifashishwa mu gukora imiti ya kinyarwanda kugira ngo bavure abantu.

Ikimera cyitwa umuravumba gifasha abantu gukora imiti itandukanye ivura indwara zibasiye abantu, ndetse no kuvura abafite ibibazo bijyanye no kubabara umutwe.

Icupa rinini rifite umufuniko w'ubururu, imbere handitseho amagambo hariho n'igishushanyo cyerekana uwo muti uko ukozwe n'icyo ukozwemo, harimo.

Akabido k'ubururu gafite umufuniko w'icyatsi gateretse ku meza, imbere yaho hari amagambo yanditse na nomero za terefone.

Igipande cy'igitunguru ndetse n'ibice bibiri by'indimu, biri kumwe n'agacupa karimo umuti wifashishwa mu gihe bari kuvura umuntu ufite ibibazo byo mu nda.

Uducupa turimo imiti itandukanye ikozwe mu bimera nk'umuravumba, imyenya ndetse n'indi ikozwe mu macunga n'indimu ifasha umuntu kurwanya indwara.

Igikombe cy'umweru giteretse ku gasahani gasa umweru kariho ibipande byinshi by'indimu, mu gikombe harimo ji ikozwe mu ndimu iteretse ku meza.

Ikimera gifite ururabo rw'umuhondo, cyifashishwa mu gukora imiti yabugenewe mu kuvura abarwayi bafite ibibazo bitandukanye.

Icupa rinini rifite umufuniko w'umweru, ririmo imiti ikozwe mu bimera bitandukanye, harimo igikakarubamba, umwenya, umuravumba ndetse n'ibindi bifasha umurwayi kumererwa neza.